Ahantu batanga icyo kunywa n'icyo kurya usanga bafite abantu bateka ibiryo, bakiza abakiriya bityo bigatuma abo bakozi babona amafaranga bakiteza imbere mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Ahantu bacuruza inzoga n'ibiribwa, cyangwa n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye, babona amafaranga bakarushaho kwiteza imbere, ibingibi bituma na Leta ibona imisoro, ikoresha mu kubaka ibikorwaremezo bigiye bitandukanye.

Inzoga ni mbi cyane, kubera ko iyo unyweye nyinshi zituma uta ubwenge, zigatuma umubiri umererwa nabi. Kandi umuntu unywa inzoga nyinshi cyane, atera amahane, agateza n'umutekano mukeya mu mudugudu.

Burusheti iraryoha cyane kubera ko iba iriho urusenda, ndetse yokeje. Igira umumaro munini cyane, kubera ko ituma umuntu yubaka umubiri, kandi abantu barayigurisha, bakabona amafaranga menshi.

Ahantu bagurisha icyo kunywa n'icyo kurya, bagirira umumaro munini cyane abantu, kubera ko hatuma bamenyana, abatari baziranye bagasabana, bakishima cyane, bakagubwa neza, kandi nabo bakabona amafaranga menshi cyane, bakarushaho kwiteza imbere mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Ahantu batanga icyo kunywa n'icyo kurya usanga hari ibiribwa bigiye bitandukanye nk'inyama baba bokeje bita muchoma n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, kandi bibaha amafaranga ababicuruza bagakoresha ayo mafaranga mu bintu bigiye bitandukanye.

Ahantu bacuruza icyo kunywa cyangwa icyo kurya, bagira abantu baririmbira kandi bakanashimisha abakiriya, baba baje kwakira ibyo bintu icyo kunywa cyangwa icyo kurya ,ibi ngibi bituma babona amafaranga menshi cyane, bakagenda bayakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Ahantu batanga icyo kunywa n'icyo kurya, usanga hatatse hasa neza, hari intebe nziza zigezweho amatara yaka amabara yose. Bino bikurura abakiriya kandi banyiri aho hantu bakabona amafaranga, bakayakoresha mu bindi bikorwa bibafitiye inyungu, kandi bifitiye inyungu igihugu cyacu.

Umukoropesho ni igikoresho bakoresha bari gusukura inzu cyangwa ahandi hantu runaka. kandi abantu barakigurisha, bakabona amafaranga bakoresha ibindi bintu.

Muri butike ni ahantu dusanga ibintu bigiye bitandukanye, nk'amasabune aho agira umumaro munini cyane, kubera ko abantu bayakoresha bari gukaraba, kandi bigatuma imyanda ibavaho yose bakarushaho kugira ubuzima bwiza cyane.

Muri butike ni ahantu usanga hari ibintu bigiye bitandukanye abantu baba bakeneye. Nk'ahantu batanga ibyangombwa, icyemezo cy'ubutaka, irangamimerere, indangamuntu, icyemezo kigaragaza ko wavutse, n'ibindi byinshi cyane.

Umunyu ni mwiza cyane kubera ko abantu bawushyira mu biryo bikaryoha cyane, kandi utuma amagufa y'abantu akomera cyane, ntibarware indwara z'amavi cyangwa z'amagufa.

Imikufi, udukomo ni imikufi abantu bambara ku ijosi cyangwa ku maboko. Ibingibi bigaragaza umuntu ko asa neza cyane kandi bigatuma agubwa neza akagira ubuzima bwiza cyane.

Ibyapa biranga ahantu hagiye hatandukanye, nk'ahantu bacumbikira abantu baba bakoze ingendo zitandukanye kandi bagaburira abantu ibiryo, ibingibi bituma aho hantu hamenyekana, bakinjiza amafaranga menshi cyane.

Amabotiki acuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, nk'imyenda n'ibindi byinshi cyane, bambika ibipupe imyenda myiza cyane, maze bigakurura abakiriya bakaza kuyigura bakabona amafaranga bakiteza imbere.

Ahantu bacuruza ibikomoka ku mata nk'inshushu, ikivuguto n'ibindi byinshi cyane. Ababikora babona amafaranga menshi cyane bakayakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye. Kandi n'abagura ibyo bikomoka ku mata bakagubwa neza.

Kera mu Rwanda iyo abantu babaga bagiye gusezerana ntago bambikanaga impeta, ariko ubu ngubu muri iyi minsi mu iterambere, iyo abageni bagiye gusezerana imbere y'Imana bambikana impeta.

Mbere y'umwaduko w'abazungu, ubucuruzi bwashingiraga mu bintu byo kugurana, aho wakeneraga nk'inkanda yo kwambara ukaguranisha ibishimbo cyangwa n'ibindi bihingwa bitandukanye wabaga wejeje. Ubungubu abantu bishyura amafaranga bakabaha ibyo bakeneye.

Moto ni ikinyabiziga gitwara abantu ndetse n'ibintu, kugira ngo bagere iyo bagiye vuba kandi gituma abantu babona amafaranga, noneho abantu batwara moto bishyura imisoro kuri leta kugirango twubake ibikorwaremezo.

Mu mpande ya kaburimbo, haba hari ahantu abanyamaguru bagendera, ibi ngibi ni byiza cyane, kubera ko bituma abantu badakora impanuka, cyangwa ngo bahure n'ikindi kibazo mu muhanda.

Amacunga ni meza cyane agira umumaro munini cyane ku buzima bw'umuntu kubera ko barayajya bakagira ubuzima bwiza kandi akabarinda indwara zigiye zitandukanye, abantu barayagurisha bakabona amafaranga menshi cyane.

Mu mujyi haba hari urujya n'uruza rw'abantu baba bari gukora imirimo igiye itandukanye, aho bamwe baba bari gukora ikimotari, abandi bari gucuruza, abandi bari gukora imirimo y'ingufu, bari gushakisha amafaranga kugira ngo biteze imbere.

Eyateri igira umumaro munini cyane, kubera ko itugurisha amayinite abantu bagahamagarana, ndetse na simukadi kandi umuntu akaba yashobora kohereza amafaranga, atavuye aho ari ibi bigatuma duhora dutera imbere.

Muri butiki habamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye nk'iby'ubwubatsi, ibikoresho bakoresha bari gutera amazi imyaka, bakoresha bari kubaka, bakoresha bari kudaha ibitaka cyangwa umucanga, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, abantu barabicuruza bakabona amafaranga menshi cyane, bakayakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Butike bacuruzamo gaze, amazi, amagi, inzoga n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye. Abantu babona amafaranga menshi cyane baba bakuye muri ibyo bicuruzwa.

Mu mujyi ahantu bagurisha ikawa, abantu barahajya bakajya kunywa ikawa, maze bakishyura amafaranga. Ibi ngibi bituma abacuruzi bacuruza ikawa biteza imbere, ndetse n'abayiguze bakayinywa bakagira ubuzima bwiza.

Kubera iterambere, haje icyuma bacomeka ku mashanyarazi bagashyiramo ibigori bibisi, bigatanga ibiryo bita injugu. Abantu barabigura, bakabirya, kandi n'ababicuruza babona amafaranga, bakiteza imbere.

Butike ni inzu icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye nk'imiti y'amatungo, inyongeramusaruro bashyira ku myaka iri mu murima, kandi hakabamo n'ibyo kurya abantu bahaha, kugira ngo barusheho kumererwa neza cyane.

Ahantu bakira abantu baje gufata icyo kurya n'icyo kunywa, babona amafaranga menshi cyane bakiteza imbere, kandi batuma n'abantu baticwa n'inzara.

Butike hacururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye nk'amakaro basasa mu nzu mu buryo bugezweho kandi ibi bituma abayacuruza babona amafaranga menshi cyane bakarushaho kwiteza imbere.

Mu mujyi haba hari amazu maremare cyane, aba afite imiryango igiye itandukanye. Muri iyo miryango, haba harimo ibicuruzwa abantu bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Mu mpande za kaburimbo haba hari ahantu abanyamaguru bagendera. Ndetse hari n'amazu akorerwamo ubucuruzi butandukanye. Haba hari n'ibyapa biriho ibicuruzwa abacuruzi bacuruza.

Botique ni ahantu bacururiza ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Aho usanga bimwe babisohoye hanze kugira ngo abakiriya babibone. Ibingibi bituma ababicuruza biteza imbere mu buryo bwo kubona amafaranga, bakayakoresha mu bikorwa byiza bibafasha kubona inyungu nyinshi cyane.

Abantu bacuruza inkweto n'imyenda, babona amafaranga menshi cyane, kandi bishyura imisoro, bakayikoresha bubaka u Rwanda n'ibindi bikorwa by'u Rwanda.

Kera abanyarwanda nta bwo bicaraga ku ntebe. Bicaraga hasi. Ariko ubungubu bicara ku ntebe zikozwe mu mbaho, bashyizeho n'igitambaro gituma zitangirika.

Botike habamo ibikoresho abanyeshuri bakenera mu kwiga, nk'amakayi, amakaramu, impapuro bakoreraho imyitozo, ibingibi bituma abanyeshuri biga neza cyane, kandi n'ubumenyi bwabo bukiyongera cyane.

Ubu ngubu mu Rwanda ahantu henshi cyane hamaze kugera imihanda ya kaburimbo, none ibintu bisigaye bikorwa mu gihe gito cyane, kubera ko biba biri gutwarwa mu modoka cyangwa se kuri moto, bikihuta cyane.

Abantu bagenda bagira ibikorwa bigihe bitandukanye, bakanabikora harimo ababucuruza mu mabotike, ibi ngibi bituma batabaho nabi, kubera ko baba bari kubona n'amafaranga bakiyitaho ubuzima bwabo bukabaho neza, kandi bagateza imbere n'igihugu cyacu.

Amasaro agira umumaro munini cyane kuberako akoreshwa mu mitako mu gukora amashapure, mu gukora inkweto, ndetse no gukora udukomo bambara ku maboko cyangwa ku maguru.

Ahantu bacuruza cyangwa batanga icyo abantu baba bakeneye nko kuruhuka, amacumbi usanga hari ibyapa biranga aho hantu, bityo bigatuma babona abakiriya benshi cyane.

Butike haba harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye nk'amavuta yo guteka, ayo kwisiga, isukari, ji, bombo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Kandi biduha amafaranga menshi cyane, bagatanga n'imisoro kugira ngo bubake ibikorwa remezo.

Ahantu bacuruza ibikoresho by'ubwubatsi bigiye bitandukanye, harimo nk'ingorofani igira umumaro munini cyane mu bwubatsi, aho bayikoresha bari gutwara ibitaka, umucanga n'ibindi byinshi cyane, bigatuma bakoresha igihe neza, kandi bagakora akazi kabo neza mu gihe gitoya cyane.

Mu mugi habamo amazu maremare cyane, aba afite imiryango myinshi itandukanye, ni korwa bitandukanye.

Imbere ya butiki usanga hari ibyapa byamamaza ibicuruzwa abantu bacuruza. Bityo abantu bacuruza ibyo bicuruzwa, babona amafaranga menshi cyane, kubera ko abakiriya baza kubigura bakiteza imbere mu buryo bugiye butandukanye.

Butike ni inzu icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye nk'ibiribwa bikoresha bakoreshaga mu rugo, n'ibindi byinshi cyane. Abantu bibaha amafaranga menshi cyane bakiteza imbere.

Igitanda bagikora mu giti, barakibaza bakagisiga irangi kugira ngo kitangirika cyane, gituma abantu baryama neza cyane kandi abantu barakigurisha, bakabona amafaranga menshi cyane.

Icyuma bacomeka ku mashanyarazi, washyiramo nk'ibiryo cangwa icyo kunywa, bigakonja cyane. Kandi abantu barabigurisha bakabona amafaranga menshi cyane bakiteza imbere, kandi n'igihe umuntu ashaka kunywa ibintu bikonje cyangwa kurya ibintu bikonje kiramufasha cyane.

Ubu ngubu mu Rwanda ahantu henshi cyane hamaze kugera amapoto aduha umuriro. Ibi ngibi bituma iterambere ry'u Rwanda rirushaho kwihuta cyane.

Mu mujyi haba amazu maremare cyane agiye atandukanye, aho usanga hari ibyapa biranga ahantu hari ibikoresho, abantu bagenda bakinira mu buzima bwabo.

Mu mujyi haba ahantu batunganya inzara, basuka, bogosha, bakanadefiriza. Abantu babikora kugira ngo base neza cyane, kandi abantu batunganya ibi bikorwa babona amafaranga menshi cyane.

Ahantu bacuruza amamoto, batuma abantu bayagura bakayakoresha mu gutwara abantu, bakabona amafaranga menshi cyane bakiteza imbere, kandi nabo babona amafaranga bakagenda bayakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye bibagirira akamaro.

Korali iba yambaye imyenda isa bita iniforume, igihe baba bari kuririmbira ahantu runaka, kandi bose baba bari hamwe ari benshi cyane.

Amashirahamwe atuma abantu bakorera hamwe, bakiteza imbere, kandi atuma abantu bazigama bakagurizanya kugira ngo barusheho kugira amafaranga menshi bakiteza imbere.

Gukorera hamwe mu matsinda bigira umumaro munini cyane, kubera ko bituma abantu bashyira hamwe, bagakora ibikorwa bibafitiye umumaro bigiye bitandukanye, kandi bakizigamira mu mabanki. Ibingibi bikabafasha gukomeza gukora cyane mu kwiteza imbere, no kongera ubukungu bw'igihugu.

Isambusa ni ikiribwa kiryoha cyane, kiba kirimo inyama, urusenda, n'ibitunguru. Kandi abantu barakigurisha bakabona amafaranga bakayakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Hari ahantu hagenewe gucumbikira abantu bakabaha icyo kurya n'icyo kunywa, kandi ibi ngibi bigira umumaro munini cyane kuberako bituma abantu baticwa n'inzara, cyangwa ngo baruhe cyane kubera kutaruhuka, kandi bitanga amafaranga ku bantu bakora ibyo bikorwa bitandukanye.

Mu buryo bwo gukurura abakiriya ahantu batanga icumbi, icyo kurya n'icyo kunywa, bagira ahantu hatatse indabo, ibyatsi byiza cyane bituma abakiriya bahora baza aho kuhafatira ibyo bintu, kandi ibi bituma bahora bagira amafaranga bakayabona cyane bakiteza imbere mu bikorwa bi'igihe bitandukanye.

Igitoki k'inyamunyu abantu baragikunda cyane kubera ko kiryoha cyane, kikagira n'isosi iryoshye kandi barakigurisha bakabona amafaranga menshi cyane.

Mu isoko bacuruzamo ibicuruzwa bitandukanye, ibingibi bituma abantu babona amafaranga bakiteza imbere mu bindi bikorwa, kandi batanga imisoro kuri Reta maze Reta ikayakoresha mu bindi bikorwa bigiye bitezaga abaturage imbere.

Mu isoko ry'ibiribwa haba harimo imbuto zitandukanye nk'amacunga, amatunda, imineke, bari kuzicuruza kugira ngo babone amafaranga, kandi zigira umumaro munini cyane kubera ko ziturinda indwara.

Kera Abanyarwanda ntabwo bambaraga inkweto. Ariko ubungubu bambara bodaboda, bakabona ukuntu bagenda neza cyane. Kandi babona n'amafaranga, igihe baba bazigurishije.

Amasoko agirira igihugu cyacu cy'u Rwanda akamaro, kubera ko abayacururizamo batanga imisoro, u Rwanda rugakoresha iyo misoro mu kubaka ibikorwa remezo nk'amashuri, amavuriro, imihanda, ndetse n'ibindi byinshi cyane bituma abanyarwanda babaho neza cyane.

Butike ni ahantu hacururizwa ibicuruzwa bigiye bitandukanye nk'amacunga, amawotameroni, amavuta, imishwari n'ibindi byinshi cyane. Ibingibi bituma abantu babona amafaranga menshi cyane bakiteza imbere.

Umusururu ni ikinyobwa cyo mu muco nyarwanda, cyatumaga abantu bahura bakanywa bakishima bagasabana, kandi nanubu abantu barakinywa ibingibi byerekana ko bagikomeje gusigasira umuco wabo.

Mu isoko ni ahantu haba urujya n'uruza rw'abantu baba baje kugurisha ibihingwa nk'ibirayi ibishyimbo n'ibindi bigiye bitandukanye,, n'abandi baba baje guhaha ibyo bihingwa.

Mu isoko bacururizamo imbuto zigiye zitandukanye, nk'ibinyomoro bigira umumaro ku buzima bw'umuntu kubera ko bimwongerera amaraso, bikamurinda indwara zo munda, kandi ni byiza rwose kurya imbuto y'ubwoko bwose, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza cyane.

Mu isoko ni ahantu bajyana ibintu bigiye bitandukanye nk'imyenda , ibikoresho byo mu rugo, imyaka baba bejeje. Abantu barabicuruza bakabona amafaranga, kandi n'ababigura bakabona ibyo bakeneye.

Umugati ni ikiribwa banywesha igikoma, amata cyangwa icyayi, kandi gituma abantu bagubwa neza bagashira inzara. Abantu bagicuruza, babona amafaranga menshi cyane, bakiteza imbere mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Amazi ya Nili ni meza cyane, kubera ko iyo umuntu afite inyota arayanywa, agashira inyota. Kandi atuma umuntu asohora imyanda yose, iba iri mu mubiri we.

Kera mu rwanda, amazu yabaga yubakishijwe nibyatsi ariko ubu ngubu mu rwanda hasigaye hari amazu abaga yubakishijwe ibyuma, haba harimo n'amatara kandi barayasize irangi ryiza cyane.

Mu isoko ni ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye, nk'inkweto abantu barazambara, bakabona uko bagenda badasitaye, cyangwa ngo amabuye abice, n'ibindi bintu biba biri mu nzira. Bityo n'abantu bacuruza inkweto n'ibindi bicuruzwa, babona amafaranga bakayakoresha mu bikorwa by'inyungu, bakarushaho no kubaho neza cyane.

Ibibiriganya biraryoha cyane ,bivura inzoka zo mu nda . Abantu barabicuruza ,bakabona amafaranga menshi cyane ,kandi babishyira no mu mu sombe, kugira ngo i iryohe cyane.

Igitoki ni igihingwa kiza cyane, kera cyane, kandi gitubuka, abantu barakirya, bakakubwa neza kandi barakigurisha, bakabona amafaranga bakayakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye, nko kugurira abana amakayi n'amakaramu bakajya kwiga

Mu isoko wacururizamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo nk'umuti w'amenyo ugira akamaro kanini cyane ku buzima bw'umuntu, kubera ko abantu bakoresha bari gusukura amenyo yabo, hakavamo imyanda ituma bafatwa n'uburwayi bwo mu menyo. Ibi ngibi ni byiza cyane kubera ko bituma babungabunga ubuzima bwabo.

Amasoko agezweho na yo ari mu bikorwa remezo Leta yubaka, kugira ngo abaturage barusheho kwiteza imbere mu bucuruzi, ndetse no kurushaho kubaho neza no kongera ubukungu bw'igihugu.

Intebe n'ameza babikora mu biti. Abantu bacuruza intebe n'ameza bakabona amafaranga menshi cyane, bakiteza imbere mu bikorwa bigiye bitandukanye, kandi bagateza imbere n'igihugu, bagatuma ubukungu bw'igihugu bukataza cyane bukiyongera, bityo tukarushaho kubaho neza cyane.

Ibigori abantu babirya mu buryo bugiye butandukanye nko kubirya byokeje, kubiteka cyangwa bakabibetesha hakavamo umutsima, cyangwa akawunga. Ibi ngibi bituma babirya mu buryo bugiye butandukanye bakaryoherwa cyane, kandi bakagira n'imbaraga. Bakanabigurisha bakabona amafaranga menshi cyane, bakiteza imbere mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye.

Amagi agira umumaro munini cyane aho yongera vitamini mu mubiri akubaka n'umubiri, kandi abantu barayagurisha bakabona amafaranga menshi cyane.

Kera mu Rwanda abanyarwanda ntabwo bambaraga inkweto, ariko abakoroni baje bazanye ibintu bigiye bitandukanye, harimo n'inkweto na n'ubu abantu bambara inkweto, bibafasha ibintu byinshi bigiye bitandukanye kubera ko bibarinda indwara, gukomereka ibirenge n'ibindi byinshi cyane.

Mu isoko ni ahantu usanga hari ibikoresho abantu bakoresha mu rugo, nk'udutambaro bakoresha bari guhanagura amasahani igihe aba akiriho amazi bamaze kuyoza ako kanya, ibi ni byiza cyane kubera ko bituma abantu batarwara indwara ziterwa n'umwanda kandi abaducuruza babona amafaranga bakarushaho kwiteza imbere.

Mu buryo bwo kwihangira imirimo, abantu bakora inkweto bakoresheje intoki, ndetse na bimwe mu bikoresho biciriritse nk’amapine y’imodoka n’amasaro. Barazigurisha, bakabona amafaranga menshi cyane, bakiteza imbere.

Mu isoko ni ahantu hacururizwa ibintu bigiye bitandukanye, nk'ibikapu abantu bakoresha batwaye ibintu bigiye bitandukanye, nk'agatambaro, amavuta, telefoni n'ibindi byinshi cyane, kandi abantu babikora babona amafaranga, ababicuruza na bo bakayabona, bakagenda bakoresha ayo mafaranga mu bikorwa bigiye bitandukanye.

ilibitunguru ni byiza cyane kubera ko abantu babigurisha bakabona amafaranga, kandi bikabarinda kurwaragurika, bigatuma basohora imyanda yose iba iri mu mubiri wabo.

Biswi abana barayikunda cyane kubera ko iba irimo isukari nyinshi cyane, abana bakarushaho kuyikunda, kandi ibi bituma abana bahora bayisaba ba nyina kubera kuryoha cyane.